Iki gikoresho bacitaga inkono y'itabi cyangwa se mu kindi kinyarwanda citwa ikijigo. Ni igikoresho abakecuru ba kera yewe n'abakiriho ubu, bakundaga gukoresha bari kunywa itabi. Mu gihe abandi tumenye ko bakoreshaga amasegereti, ariko iki co nta bakecuru bagikoreshaga.

Aba ni abaturage bari mu nama bitabye umuyobozi, mu kindi kinyarwanda babyitaga inteko y'abaturage. Ubwo baje kumva umuyobozi ngo abagezeho, ubutumwa yabageneye cyangwa se bumve ibyo nawe ari kubasaba.